Inzu zikorerwamo ubucuruzi bwo kuvunjisha amafaranga uyavana mu madolari cyangwa mu mayero uyashyira mu manyarwanda ndetse ziriho n'ibyapa bigaragaza ibikorerwa mo aho kuri izo nzu.

Sale y'inama iteyemo intebe, ameza ndetse ku meza hariho uducupa tw'amazi. Muri sale y'inama harimo nibirango bya banki ya Equity.

sicine ifite ubusitani ku mpande hateyemo n'imitaka, iteyemo udutebe tw'imikara ndetse n'ameza no ku mpande hateye udutebe abantu bicaraho bavuye koga mu mazi cyangwa bakaryamaho.

Icyumba cyo gukoreramo inama, kirimo intebe, ameza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse n'amakayi n'amakaramu byo gukoresha ndetse imbere hakaba hariho ikibaho cy'umweru bakoresha.

Inzu ndende igeretse ifite ubusitani hanze buteyemo indabo n'ibiti.

Abantu bari mu isoko ricuruza imbuto harimo inanasi, harimo abari guhaha, harimo umugabo ufite agafuka ndetse n'ababyeyi bari gucuruza bicaye ku dutebe n'akana gatoya bateruye bicaje ku ntebe.

Inzu ikodeshwa i Kigali i Kanombe ifite ibyumba bitandatu, ubwiherero ndetse n'ubwogero butatu mu nzu, ndetse ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana ane buri kwezi.

Inzu igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu muri Kigali iri mu gipangu, ifite parikingi yakira imodoka eshatu iherereye i Kanombe muri Kigali.